Inzu ziriho ibirahuri, inyuma y'ibirahuri harimo abakozi basa naho ari abakozi b'urwego rwa banki ya aye enemu, hino y'ibirahuri hari abakiyiriya batatu bari gusaba serivisi.

Amagambo yerekana uburyo wakiyishyura ikigo kizwi nka wasake, ukoresheje ikoranabuhanga, amagambo yanditse mu nyuguti z'umukara, ku rupapuro ruriho amabara yi'cyatsi, aragira ati ''hitamo wasake andika nimero za konteri yawe ushyiremo amafaranga wishyura wemeze

Amafaranga ashashe yo mu bwoko butandukanye ari hejuru ni amafaranga yo mu gihugu cya Leta Zunze ubumwe za Amerika bakunze kwita amadolari, akaba ari inoti ebyiri z'ijana munsi yayo hari andi manoti n'ibihugu bitandukanye ashushanyijeho imitwe y'abagabo batandukanye.

Icyumba kirimo uburiri busashe, busashishije amashuka y'umweru n'imisego y'umweru, icyo gitanda kikaba kiriho ibara rya zahabu, ku ruhande hari akameza ko mu ibara ry'umukara ndetse hakaba hariho n'amadirishya apfutse n'ibitambaro byera.

Inzu ndende igeretse yo mu bwoko bwa etage, hashushanyijeho ibyapa byamamaza by'ikigo cya GOSHEN. Amadirishya n'inzugi birafunze, hakaba hariho icyapa cy'ikigo gishinzwe ihererekanya ry'amafaranga mu bihugu bitandukanye Western Union ndetse na Money gram.

Ibiro bikoreramo iki kigo cy'itumanaho mu Rwanda kizwi nka emutiyene, imbere yabyo hari urujya n'uruza rw'abantu batandukanye, imbere mu biro hicayemo abakozi babiri bambaye imyenda y'umukara ndetse n'imyenda yera.

Abantu batanu, bane muri bo bambaye impuzankano yo mu ibara ry'umuhondo, y'ikigo k'itumanaho kizwi mu Rwanda nka emutiyeni, umuntu wa gatanu yambaye ishati y'umweru n'umukara n'ipantaro y'ikizuzu, akaba asa nkuri gusaba ubufasha aba bakozi b'iki kigo k'itumanaho.

Icyumba kimwe cy'inzu yo mu bwoko bw'inzu zigeretse bakunze kwita etaje hari ameza menshi bigaragara nk'aho atereye abantu baje kugura amafunguro icyo bakunze kwita resitora, ruguru hari amadarabye azamuka ajya mu gice cya kabiri cy'iyo nzu.

Umubyeyi ufite mu ntoki icyangombwa cya mituweri de sante ndetse n'urundi rupapuro rwo mu ibara ry'umuhondo akenyeye igitenge isura ye ntigaragara, iruhande rwe hakaba hari irindi bara ry'igitenge bisa nk'aho ari umuntu nawe umwicaye iruhande.

Inzu ifite amarange y'umuhomdo, ayera ndetse isakaje amabati y'ubururu, imbere yayo hari akayira agasakaye kicayemo abantu benshi, abandi bakaba bahagaze, hari ubusitani, birasa nkaho, aha hantu ari mu mu ivuriro cyangwa ikigonderabuzima.